Umuntu wicaye ku ntebe ugaragiwe n'abandi batandukanye, harimo abambaye impuzankano umutuku, icyatsi, arimo abasobanurira ku bigaragara ibikorwa byo gufasha by'ubuzima.

Umubyeyi uhetse umwana arimo arakora isuku y'ibikoresho bitandukanye, indobo, amabase, imifuniko yazo, arayikorera ku mugezi, inyuma hari ibiti, ibyatsi bigaragara ku butaka.

Abaforomo b'abaforomokazi bambaye impuzankano y'ubururu, imbere umuzungu wambaye ikote ry'umukara inyuma inyubako igaragaza ibitaro.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, ameza, abantu benshi, inyuma ishusho irimo ibara ry'ubururu, irimo ibimenyetso bitandukanye imibare, amagambo.

Ababyeyi bateruye abana, harimo umugabo urimo amuha amata, yifashishije icyansi n'abandi inyuma bagenda bakora nk'ibyo arimo gukora bicaye hasi ku musambi.

Umugabo urimo araseka, amaboko ye ari hejuru y’ijerekani yikorewe n’umwana wambaye umupira w’iroza. Inyuma ikirere gisa ubururu, ibicu by’umweru.

Hano hari abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu, barimo baraganira ku bijyanye n'ubuzima, bicaye mu byatsi, inyuma hari igisharagati gisakaje ibara ry'umweru.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, indobo iteretse ku kameza, imbingo inyuma, arimo gufungura.

Umuntu wambaye imyenda y'ubuubururu, arimo azamura amazi, umwana wifashe mu mayunguyungu n'abandi benshi, ibivomesho harimo amajerekani, ibidomoro mu ibara ry'umuhondo, imikara, ubururu, ibyatsi, ubutaka.

Umubyeyi wikoreye ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo rifungishije umufuniko utukura, iruhande hari umwana wambaye umupira w'ubururu, hirya hari inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'ipoto rigaragara rirerire.

Itiyo ivamo amazi, ajya mu kiganza cy'umuntu, akaboko kagaragara. Amabuye, ikidendezi cy'amazi ayiturukamo agenda atemba, ibyatsi.

Abana b'abanyeshuri batoya, umukoranabushake wambaye ibara ry'icyatsi, abantu bahagaze imbere bari kumva icyo bababwira, umukeka w'ubururu, amashuka y'umweru.

Ivomero abana babiri amajerekani barimo baravoma umwe arimo azamura amazi undi atezeho kugira ngo abashe kuyabona, harimo ibyatsi bitandukanye.

Ivomero ryubatse na sima, ririho imigezi ine itandukanye, umumama ufashe ku ijerekani, uri kuvoma ku mugezi wa mbere isa umuhondo, inyuma hari umugozi ibiti ibyatsi...

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo arimo arasuzumwa umuvuduko w'amaraso, umuntu uri kumusuzuma yambaye impuzankano y'ubururu, arimo arebera kuri mudasobwa uko ahagaze, hari n'intebe z'ubururu, inyuma y'intebe hari undi muntu wambaye impuzankano nayo y'ubururu.

Umuzungu ufite telefone arimo afotora umwana uri imbere ye wikoreye ijerekani imurusha imbaraga kubera ko ari kwiga ku buzima bw'abana n'imibereho.

Ku nyubako nini ifite ibice bitandukanye y'ubuzima kwa muganga, harimo amabara y'ivu atandukanye, inyubako igeretse, hirya hari inyubako isakaje amabati y'umutuku hari ibyatsi by'amabara y'icyatsi.

Abantu batandatu bicaye imbere mu ntebe z'ibara ry'umweru, iruhande rwabo hagiye hari utumeza dufite ibara ry'icyatsi imbere n'inyuma yabo hari ibara ry'icyatsi ririmo amafoto atandukanye n'ingingo barimo baragenda bavugaho, imbere yabo hari abantu benshi barimo barabwira.

Umubyeyi uteruye umwana yicaye imbere ye hahagaze umuforomokazi wambaye impuzankano y'umweru arimo amufasha kumuha imiti amwasamura akanwa agashyiramo.

Ibiganza bibiri bifashe ku kaboko k'umuntu, aho bigaragara ko umuntu agiye guterarwa urushinge, Ugiye kumutera urushinge akaba yambaye ga, izo ga arizo yifashisha atera umuntu urushinge, akaba ku myenda yambaye igaragara uturongo dutambitse, uwo bagiye gutera urushinge.

Inzu yo kwa muganga igaragaramo ibikoresho bifashisha bashyiraho abarwayi, biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'isakazamashusho, bigaragaza uko umuntu ahagaze.

Abagore batanu, bane bakurikiye umwe, bambaye impuzankano mu ibara ry'iroza, akaboko ku meza, amakaye abasobanurira ubuzima, inyuma ibitambaro by'ubururu.

Abantu batanu bambaye impuzankano y'ubururu yandikishijemo amagambo y'umweruvuga ngo hora neza, inyuma ishusho y'umweru iri ku cyapa, urugi rw'ibyuma ndetse n'ibirahure.

nyubako irimo abantu benshi aho hagaragara abagabo babiri, umwe ufite umusatsi mwinshi arimo asobanurira uwambaye umupira w'ubururu ufite agakomo ku kaboko.

Amacupa atatu maremare, agaragara ateretse ku byuma, atanga umwuka igipapuro cyo kureberaho amabwiriza, y'uko bikoreshwa umwuka ugenda ugenda.

Abantu barimo abagabo, abagore bahagaze imbere y'ishusho igaragara cyane mu ibara ry'ubururu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, arimo avuga ngo twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, utanga imbwirwaruhame. Amazi ari mu macupa y'lnyange. Ameza, amadapo abiri, ibendera riri mu mabara y'ldarapo ry'u Rwanda ubururu, umuhondo, icyatsi.

Abana bicaye hasi ku musambi barimo bafashwa bahabwa amata mu byansi bitandukanye n'abarimo bayabaha, abahagaze hirya inyuma yabo babafasha.

Ikirangantego gifite ishami, abiri asobekeranye arimo inyuguti U, N, W, F, P, inyuma hari ishusho y'ubururu.

Umugabo wicaye ku ntebe y'igiti, arimo asobanurira umubyeyi, wicaye mu iy'ibara y'ubururu, ubuzima bwe n'ubw'umwana, ibitabo byinshi arimo amusobanuriramo, inyuma inzu n'urugi.

Umwana uri ku mugezi, urimo akaraba amazi mu ibase y'umukara, yambaye imyenda y'umutuku, afite imisatsi iryamye, inyuma hari igikuta kigaragara gifite amatafari atandukanye inyuma ye.

Umuntu wambaye umupira y'icyatsi ufite imisatsi miremire, ahagaze imbere y'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Akaba ari umugabo wambaye amataratara wambaye impuzankano y'umukara igaragaza ikigo akorera.

Abana batatu bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bafite isabune mu ntoki, barimo barakaraba imbere yabo hari imigezi, buri wese afite umugezi arimo arakarabiraho.

Inyubako isa umukara abantu bicaye imbere yayo kandagira ukarabe iriho ibase amazi ndetse amabuye kuruhande ibyatsi.

Abantu batandukanye bari hamwe bari kuganira ku buzima, hari abaricaye, bahagaze, ihema rigaragaza igisharagati, inzu, imodoka, ibyatsi n'umurima uteyemo imyaka.

Akarima k'igikoni, abantu bambaye impuzankano ibara ry'umutuku barimo batera imboga, umupolisi wambaye ibara ry'umukara, imifuka, ibiti...

Umuzungu wambaye umupira mu ibara ry'ivu ufite irangururamajwi ku maboko, ariho udukomo, isaha, inyuma hari icyapa kinini cy'ubururu, iruhande utumenyetso twinshi dutandukanye turi mu mabara umutuku, umuhondo, icyatsi.

Umwana uri mu kidendezi cy'amazi ufite ikijerekani arimo avoma amazi, yadubitsemo ibyatsi, ibiti.

Umubyeyi uteruye umwana, umuforomokazi atera urushinge, agakarito k'umuhondo gateretse ku meza, aho gushyira imyanda kari mu ibara ry'ubururu, abantu bicaye ku ntebe.

Imbere yanjye hari abana bane baje ku ivomero bafite utujerekani two gutwaramo amazi, kuri uwo mugezi hakaba hari umuntu urimo arabapombera kugira ngo amazi aze, inyuma y'uwo muntu hari imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'ibiti.

Umugore wambaye impuzankano y'umweru, igitabo arimo yandika umugabo amusobanurira, inyuma icyapa cyanditse sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Inyubako ebyiri zingana zifite imiryango y'ubururu hagati ikigega kinini cyubakishije amabuye, uruzitiro ruriho imikwege, amabuye ashashe hasi.

Umugabo ufashe icyansi, ari guha umwana amata, uteruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru, inyuma hakaba hari abandi ndetse umugabo yambaye umupira wa oranje.

Abagabo bambaye amakote y'imikara, abagore amakanzu, amajipo, inyuma icyapa kinini kigaragaza bimwe mu bimenyetso bitandukanye by'inama.

Abantu bicaye bari mu nama bafite amacupa yo mu ruganda rwa Nile, afite imifuniko y'ubururu, inyuma yabo hari amarido hakaba hari ibirahure bigaragaramo ibara ry'umuhondo, ibitambaro birambuye ku meza bifite ibara ry'ubururu.

Umwana wambaye impuzankano yo ku ishuri, ibigaragara ko arimo afungura amazi, igikombe cy'umweru, ikigega gifite ibara ry'umukara hubatse ndetse inyuma hari amatafari atandukanye n'idirishya n'ibyatsi.

Imodoka yo mu bwoko bwa makuzungu itwara ibiryo bashyira impunzi, igiye gutanga ubuzima, iri mu muhanda, ikirere kirasa ubururu, ifite ibara ry'ivu, ibara ry'umweru rishushanyije ku byapa.

Ivomero rivomerwa habiri abantu bafite amadobo, amajerekani, abana, abantu bakuze bashaka amazi meza, inyuma ibiti by'icyatsi.

Ivomero ryo mu buryo bwa gihanga ririho imigezi ibiri, abantu babiri buri wese ari ahatandukanye, amajerekani, ibiti, amabuye.

Abana babiri bari ku ivomero bavoma amazi mu kabuni k'umweru, hirya hari umugore arimo abasanga, inzu mu mabara y'umutuku amabuye.

Ibyuma bigaragara mu ibara ry'ubururu, birimo imyuka ifasha abarwayi, biteretse ku bitambitse, inyuma hari ibara ry'umweru n'ikindi kigaragara umukara.

Abantu babiri mo hagati harimo umuntu batengase, umwe afite agakoni akana gato inyuma abana babiri batagaragara neza, ishusho y'umukara, imyenda.

Umugabo wirabura wambaye imyenda icikaguritse ku maguru afite ikibazo cyo mu mutwe, afite ishashi irimo amazi hirya igikarito giteretseho ibiryo, inyuma igikuta yegamiyeho.

Umukambwe wambaye ingofero, ishati irimo imirongo, umwitero w'ibara ry'umuhondo, icumu, inyuma urugo rwubakishije ibiti, ibihagaze, ibitambitse.

Umubyeyi w'umumama wicaye ku ntebe y'urubaho ndende inyuma ye hari igikuta kigaragazaho amashushanyo y'indabyo, arimo arareba ku ruhande rwe rw'ibumoso, aba yambaye akitero mu mutwe.

Abantu babiri bari kuganira bambaye ingofero, undi amataratara arimo amusobanurira, yicaye ku ntebe imwe n'undi indi inyuma aragaragara ishusho y'umukara.

Umuntu wishimye inyuma ye hari ishusho y'umweru yambaye agapira k'umuhondo afite ubwanwa bwumukara afite amatwi manini afite amenyo maremare yumweru, bigaragara arimo yishimye cyane agaragariza ubwoko ko yishimye.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi batatu, inyuma hari igishushanyo cyanditseho mu ibara ry'umweru amagambo, " Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera". Intebe, ameza, amacupa y'amazi ikoranabuhanga n'itumanaho.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara inyuma ye hari igikuta cyanditseho amazina menshi atandukanye, imbere hari ururabyo arimo aribuka abe, hirya hari umukobwa wambaye impuzankano y'icyatsi.

Abagore babiri umwe yambaye ipantaro, undi yambaye ikanzu bose afite imisatsi miremire, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, barimo baganira ku kibazo cy'ubwonko, bareba ubuzima bwo mu mutwe uko buhagaze.

Abana biyogoshesheje bishimye cyane harimo ababa bagaragaza ko bameze neza inyuma harimo abambaye impuzankano y'icyatsi iriho iy'abanyeshuri harimo abarezi bakuru babo.

Imodoka nini igaragara mu ibara ry'umweru, umuryango w'inyuma ufunguye, harimo ibikoresho byo kwa muganga, abantu bicaye ku ntebe zitandukanye, zifite ibara rimwe, inyuma hari inzu, ihema rigaragara mu ibara ubururu, umuhondo, icyatsi.

Ikirangantego cya Polisi y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kirimo agaseke, ishaka handitse ijambo isange, kigaragaraho abafatanyabikorwa benshi batandukanye.

Umugabo wicaye imbere y'abagore bane, inyuma y'abo abagore hari insina, inyuma y'izo nsina hari ibiti, inyuma y'ibyo biti hari kugaragara inzu igaragara mu ibati ry'umweru, insina zifite amakoma y'icyatsi, umugabo yambaye inkweto za bodaboda.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'umutuku, afite indangururamajwi, arimo asobanurira bagenzi be, yicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, mo imbere hateretse mudasobwa, iruhande icupa ry'amazi, icupa rya fanta.

Umupolisi wambaye impuzankano y'umukara ugaragiwe n'abantu batandukanye abagore abagabo imbere y'icyapa cya Kacyiru ubuzima kigaragaza imibereho y'abaturage.

Abana barimo bakora isuku y'amenyo, aho bafite ibikoresho byifashishwa biri mu mabara atandukanye umuhondo, icyatsi, n'ubururu. Akaba uburoso bakoresha ku menyo bakora isuku.

Umugabo ufite ubwanwa buke wogoshe n'umusatsi, amatwi manini, yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, inyuma ye harasa ibara ry'ivu.

Igisharagati gifite ihema ry'umweru imbere y'icyapa cyanditseho amagambo umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, abantu batandukanye barimo bahabwa serivisi zo mu kanwa, intebe zo kwicaraho.

Inyubako yo kwa muganga bakurikirana ubuzima, hateretse ibikoresho bitatu byabugenewe, bashyiraho abarwayi baje babagana. Inyuma yaho hari ibirahure, bigaragara mu miryango, hari utubati turi mu mabara atandukanye.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa buke wambaye umupira w'umweru, afite urudodo arimo akora isuku mu menyo, agenda arucisha hagati y'amenyo aho arimo agenda akora isuku y'amenyo mu kanwa k'iwe, yambaye umupira w'umweru ufite n'inzara.

Umwana urimo urakorerwa isuzuma ry'amenyo, afite umusatsi w'umukara, umuntu uri kumukorera afite akuma arimo yifashisha areba ikibazo afite yambaye ga z'icyatsi, umwana yambaye impuzankano y'icyatsi bakoresha kwa muganga.

Abanyeshuri b'abahungu ,abakobwa ,abana bato, bafite ibikombe mu ntoki birimo amazi uburoso bw'amenyo, barimo bakora isuku mu menyo yabo,

Umugabo wirabura ufite umusatsi mwinshi, wambaye umupira w'umweru urimo wireba mu kirori, arimo akora isuku mu menyo yifashishije akadodo arimo anyuza hagati y'amenyo agiye atandukanye.

Hano hari abantu batandatu b'imipira y'icyatsi yanditseho tubiteho, imbere yabo hakaba hari imiti y'amenyo ndetse inyuma yabo hakaba hari abantu bari kubagenzurira mu kanwa kabo uko hameze.

Imbere yanjye hari umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi, yambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari utubati n'imiti itandukanye, aho arimo arareberera umwana ufite ikibazo cy'amenyo, areba mu kanwa ikibazo cyaba kirimo, umwana na we yambaye umupira urimo amabara y'icyatsi, aryamye kuri matera.

Afite agakoresho mu ntoki ashyira mu kanwa gafasha amenyo neza Kuba yajyamo umwanda, agakoresha igihe atarimo kurya igihe ari kugenda yajya kurya akagakuramo kugira ngo amenyo abashe gukora.

Amenyo agaragara mu ishusho y'umukara igishushanyo aho kiba mu mashini kwa muganga kigaragaza uko amenyo ateyemo imbere agiye ashinzemo mu mubiri.

Umugabo wirabura, ufite agakoresho gafite ibara ry'umweru mu ntoki, arimo yifashisha akora isuku mu menyo, agenda akanyuza hagati y'amenyo, areba ko amenyo ye ahagaze, n'isuku yayo.

Muganga ari gusuzuma amenyo y'umurwayi yifashishije itara, utwuma dukoreshwa twabugenewe ushyiramo mo imbere ukagenda ureba aho ikibazo kiri.

Umukobwa wirabura wambaye isengeri y'umweru, ufite imisatsi y'umukara, afite uburoso bwamenyo arimo arakora isuku y'amenyo yireba mu ndorerwamo, aho imbere ye hari ibikoresho bitandukanye bifashisha bakora isuku y'amenyo.

Umugabo wambaye imyenda yubururu afite umusatsi mukeya ubwanwa butari bwinshi, agaragara yishimye amenyo ari hanze arimo amwenyura cyane.

Umuntu ushesha akanguhe urimo yitabwaho n' umuganga inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure intebe zifite ibara ry'ivu bafite imisatsi miremire. ushesha akanguhe afite imisatsi .

Abagore batandatu, batanu biteze ibitambaro umwe atacyambaye inyuma imbuto zisa umuhondo imbere inyanya, ibikarito, amabase.

Umukecuru ufite imvi, inyuma ye umukobwa urimo umufasha gukora siporo, azamura mu kaboko ke ateruyemo icyuma kimufasha kugenda agorora imitsi yo mu kaboko kiwe.

Umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu, imbere ye hari umubyeyi w'umugabo yicaye mu ntebe arimo amuganiriza ku buzima ushesha akanguhe, inyuma hari intebe, imisego, amadirishya atandukanye n'utubati dutandukanye.

Ibikombe bibiri by'umweru, abantu, amataratara, igitabo, akabati, ameza, ibiganza, ishati, umupira.

Umubyeyi ufite imvi, afite ibirisho arimo ararya indyo yuzuye, iriho amabara atandukanye, yayitandukanye inyumaye hari akabati kibara ry'umweru.

Umusaza wambaye amataratara wicaranye n'umwana, barimo bakina umukino bifashishije udukoresho bafite mu ntoki, yicaye mu kagare, imisego, ururabyo rufite amababi, itara.

Umukecuru usheshe akanguhe wambaye ingofero kugendera mu mbago, kumwe n'umukobwa ufite igikapu mu ntoki, hirya hateye ibyatsi inyuma hari ibiti, hakaba itiyo ndende.

Abantu barimo basoroma icyayi, bashyira mu byibo bahetse ku mugongo wabo, akaba ari ababama bambaye imyenda itandukanye, ifite ibara ry'icyatsi, ibyo barimo bakora.

Umugabo n'umugore basheshe akanguye, umugore arimo yereka umugabo uko akwiye gufata imiti, bari ku meza hateretseho ururabyo rw'icyatsi, afite imisatsi y'imyeru, umugore yambaye amaherena.

Umukecuru usheshe akanguhe bamwereka uko akwiye gufata imiti ye, afite ikirarahure kirimo amazi, imbere hari agakarito gateretse ku meza ko mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari indobo irimo indabyo zifite ibara ry'icyatsi.

Umusaza ufite imvi, urimo kurya ufite ikibando, yicaye ku gatebe iruhande rwe abana babiri, ufite igikombe cy'umweru inyuma umuryango ufunguye, urukuta ruri mu ibara ry'ikigina.

Abantu babiri barimo bategura ibyo kurya bitandukanye imbere yabo hari imboga zitandukanye, inyanya n'indabo iteretsemo indabyo z'icyatsi, nyuma yabo hari utubati turimo ibikombe, ishyiga ryo gutekaho ndetse n'isaha.

Umuryango wishimye, harimo usheshakanguye, umugabo, umukecuru, abana, umugore, inyuma ibiti, mu ibara ry'icyatsi, urumuri rw'izuba.

Abantu babiri, usheshe akanguye, umuforomo, intebe, utubati, urugi, ibirahure, indabyo, indabo.

Umuntu ushaje ufite ubwanwa bw'umweru imvi umusatsi w'umukara yifashe kugahanga yambaye ishati y'ikigina, imbere ye hari amakayi atandukanye hari agakoresho yifashisha kuri mudasobwa inyuma ye hari ibara ry'icyatsi n'umweru n'amabu.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu, arimo aganira n'umubyeyi wambaye amataratara w'umumama, arimo akata imboga zitandukanye, harimo inyanya, imbuto n'imboga rwatsi.

Umumama wambaye umwenda w'umuhondo, imbere ye afite imiti akaba arimo ashyira imwe mu miti ku ntoki agiye kunywa. Akaba yambaye lunette, akaba afite imisatsi y'imikara, iruhande rwe hari agacupa k'imiti.

Umugabo ufite imvi yambaye umupira w'ubururu, ikabutura, umukara, umugore imisatsi y'umukara, ibidobo, ibase, ibiti, ibyuma.

Abantu bagaragara barimo batanga impano ku basheshe akanguhe muri bo hari abambaye ibitambaro biri mu ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'imikara, bagaragara bambaye imyenda itandukanye igiye ibabamo.

Abagabo barindwi bicaye mu ntebe zitukura, umwe yicaye ku ntebe y'ibiti, babiri muri bo bafite inkoni, bambaye inkweto z'umukara, bafite n'ingofero zitandukanye, umwe yambaye ikirinda imbeho bambara mu ijosi.

Abakobwa bambaye imipira y'umweru, imisatsi itandukanye, inyuma ku rugi rurimo utuyungirizo, bafite inkiramende enye zifite ibara risa iroza, bambaye inkweto zifunguye.

Umugore uhagaze imbere y'abantu bicaye batandukanye ku ntebe z'ubururu, imyeru, inyuma hari indangururamajwi nini bari mu nzu y'icyumba arimo abaha imbwirwaruhame.

Abantu bicaye barimo kwifotoza inyuma hari icyapa kinini kigaragaza amagambo atandukanye, ikirangantego cy'u Rwanda, bambaye imyenda ifite amabara umukara, ubururu n'umutuku.

Umuforomo n'umuforomokazi, bagaragara barimo bafasha abarwayi ku bapima, bambaye ga n'impuzankano, inyuma hahagaze umukoranabushake wambaye ibigaragara mu ibara ry'icyatsi.

Abagabo n'abagore bafite ibyapa bitandukanye mu ntoki, imbere ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, intebe, inyuma yabo hari isakazamashusho rinini riri mu ibara ry'umukara.

Umugabo n'umugore bambaye amarinete bagaragara bafite ibishashi bine bishyirwamo imyanda, bibiri byi'cyatsi bijyamo ibibora na bibiri by'ubururu bijyamo imyanda itabora.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, avuga ngo ubuzima bwiza ndetse no kwiyitaho, handitse umubare gatatu, ikimenyetso kigaragaza umutima n'umurongo wa zigizage.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru, kiri mu ibara ry'ubururu bambaye impuzankano itandukanye icyatsi, umweru, umukara, hari ibyatsi ndetse n'imodoka.

Abagabo, abagore bicaye mu cyumba, bambaye imyenda itandukanye, inyuma ku bikuta hari amabara: umuhondo, umutuku, iroza, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro arimo aganira n'abana batatu ndetse no n'umumama, baganira ku kibazo cy'ubuzima mu mibereho y'u Rwanda, bicaye ku ntebe zitandukanye.

Intebe z,umutuku ameza amazi abantu bishimye bazamuye amaboko abagore abagabo abazungu abirabura inyuma igipapuro cyubururu cyanditseho abayobozi babagore.

Inyuguti eshatu h p r zivuga ubuzima bwabaturage b'u Rwanda mu ibara ry'umweru bushushanyijeho hagaragara ubururu n'ikimenyetso kinini kirimo ibiganza bibiri bisobekeranye.

Inyubako itandukanye igereritse kwa muganga

Inyubako irimo amashusho ari ku bikuta, isaha, isakazamashusho, intebe eshatu, ibyuma by'ikoranabuhanga, amapine, akadomoro.

Inyubako igeretse rimwe, hejuru igaragara mu ibara ry'ivu, munsi hagaragara ibirahure bigize amadirishya, mo imbere harimo abantu, ibitanda, inyuma ku muryango iyo hahagaze abantu babiri, umwe uteruye akana.

Inzu yubakishije amatafari ya mpunyu, aho basuzumira kwa muganga, abantu bicaye ku ntebe hasi hubatse na sima, indabyo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru arimo atanga ikiganiro ku bantu bicaye imbere ye ku meza, afite mudasobwa zitandukanye abaganiriza kuri malariya aho hari ibirangantego bitandukanye harimo icy'ikigo gishinzwe ubuzima.

Abantu babiri, uhagaze inyuma, igikuta cyubakishijwe n'amabuye, inyubako ndende ibara ry'umweru, umuntu ufashe mu mifuka, itafari ya monyo, ibiti, ipoto,...

Inyubako irimo ubwoko bw'imiti itandukanye iteretse mu tubati tw'ibirahure bifite ibara ry'umweru hateretse intebe imwe muri ayo mabara hari amatara ishusho ry'icyatsi.

Inyubako yo kwa muganga igaragara igitanda kiryamyemo umuntu n'umugabo uhagaze iruhande, wambaye ipantaro y'umukara n'ubururu, arimo amanika inzitiramubu neza kuri buri gitanda cya buri murwayi n'inzitiramubu nyinshi zitandukanye.

Icyumba bavuriramo umwana mutoya hejuru bareba ikibazo afite afashwa n'umuforomo wambaye impuzankano y'umweru n'agapfukamunwa arimo apima uko umutima we utera.

Abagore batatu bambaye impuzankano y'ubururu, bambaye utugofero, hirya hari ibiti birebire imigwegwe, imikindo, amazu...

Inzu yubakishijwe amatafari yamywe isakajwe n'amabati, yo mu ibara ry'ubururu, ifite umureko ugaragara mu ibara ry'umweru, imbere hahagaze abagabo batandatu ndetse n'abagore babiri, bambaye udupfukamunwa bafite n'ibikoresho mu ntoki.

Inyubako, abantu, ufashe ku rutugu umwana wambaye impuzankano y'icyatsi, agapfukamunwa, urubaho rwanditseho amagambo mu ibara ritandukanye, intebe,...

Inyubako igaragara inyuma y'ibirahure, irimo imiti itandukanye, aho ubasha kugura umutwe umwe bakakongeza undi, harimo amabara y'icyatsi n'ibara ry'umweru, amashusho y'abantu atandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda biriho abarwayi hamanitse amarido agenda abatandukanya abantu bari gukora isuku muri icyo cyumba bifashishije amazi n'ibyo gukoresha bayahanagura.

Inyubako irimo utubati iburyo, ibumoso, imbere turimo imiti itandukanye mu mabara iroza, ubururu, umweru, icyatsi, ibipapuro.

Intebe ikoze mu giti, ebyiri akabati gateretseho uducupa ibitabo ameza ariho mudasobwa, ishusho iri ku gikuta ishushanyijeho amashusho.

Igikoresho basuzumiraho kwa muganga kigaragara mW' ibara: umukara, umweru. Ibirahure bitandukanye: ibipfundikiye, ibifunguye. Amazi, imifuniko.

Inyubako y'ibitaro irimo aho kwicara uruganiriro inzira izamuka ijyamo hejuru igikuta gisa umukara ibara ry'ivu hejuru ku isakaro hasa umuhondo.

Abantu bambaye imyenda itandukanye bicaye imbere y'aho bakirira abagana ikigo nderabuzima hakaba hamanitse ibipapuro bigaragaza amabwiriza ahagenderwa aho bakorera.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bifashisha hariho ibitanga byo kuryama ku barwayi igihe bari kubapima, utubati two mu ibara ry'umweru bifite amashusho y'ibara ry'umuhondo intebe zo kwicaraho.

Inyubako igaragara ifite amadirishya atandukanye, yubakishijwe amatafari ya mpunyu akaba ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, baba bafashwe ku ngufu bitandukanye mu buryo butandukanye.

Inyubako irimo isaha, amadirishya, ibirahure, ibikoresho bifashisha, hariho imeze nk'igare, kunyonga, urukuta, ibara ry'umweru.

Inyubako irimo ibikoresho by'ubuvuzi, harimo abantu bambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa, abandi babiri na bo batwambaye, mudasobwa, amabara atandukanye.

Icyuma cyo kwa muganga kigaragara mu ibara ry'umweru gikoresha umuriro, ibara ry'ubururu ku gikuta ndetse n'ibikoresho birimo isaha, mudasobwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi wambaye ibitenge uryamye ku gitanda, hahagaze imbere ye umuforomokazi wambaye impuzankano y'umweru arimo amwitaho areba uko ubuzima bw'iwe buhagaze niba nta kibazo.

Inyubako yo kwa muganga igaragaramo intebe irambuye, ingufi, akabati, amashusho, umweru, ubururu, ishusho ku gikuta igaragaramo ijisho.

Inyubako imbere igaragaraho idirishya hejuru yaryo ari inyuguti eshatu bisobanuye ikigo cy'igihugu cyu rwanda gishinzwe kurwanya kanseri hirya hari umusirikare wambaye impuzankano y'icyatsi.

Inyubako ifite amagambo ariho agaragaza icyumba k'isuzumiro, ifite urugi rwo mu ibara ry'umuhondo, hirya hari ibara ry'umweru rishushanyije kuri icyo gikuta.

Abaforomokazi bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, bafite udupfukamunwa ku munwa, bahagaze imbere y'ibitaro bya Legasi, bifite inyubako igaragaraho inyuma.

Inyubako yo kwa muganga abarwayi baruhukira hari ibitanda bitandukanye n'utubati dufite ibara ry'umweru n'ubururu, amashuka arambuyeho afite ibara ry'icyatsi, hari amadirishya n'igikuta cyo mu ibara rigaragara nk'ivu.

Inyubako iyo imbere abantu batandukanye abambaye impuzankano y'icyatsi bafasha abarwayi h'irya hari inzu isakaje ibara ry'icyatsi isize ibara ry'umuhodo.

Imashini yifashishwa kwa muganga bapima umubiri w'umuntu mo imbere, icyumba irimo isaha, amatara, ishusho iri ku gikuta igaragaraho amabuye, amazi.

Inyubako yo kwa muganga igaragaza idirishya mu ibara ry'icyatsi, ibirahure by'ubururu umuntu wambaye impuzankano y'umweru, amabati, icyapa.

Umugabo wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa, afite icupa mu kiganza, ahandi akora ku cyuma cy'ikoranabuhanga, intebe, utubati ,ameza, amazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye ku gitanda ugaragaza mu kiganza ko ameze neza ubuzima bwe buri ku murongo, ibyuma birimo biramufasha mu buzima bw'iwe kwa muganga.

Inyubako irimo intebe, ibitanda, utubati, ameza, mudasobwa aho gukarabira bigaragara ibara ry'umutuku.

Imbere yanjye hari inzu igeretse gatatu, yubakishijwe amatafari ya mpunyu, imbere hakaba hateye amahwa atandukanye, hari uduti ku ruhande dufite amabara iry'ubururu ndetse n'iry'umuhondo ndetse n'iriba ivu.

Umuforomokazi wambaye umpuzankano y'ubururu imisatsi miremire, arimo yita ku murwayi uryamye ku gitanda kwa muganga, inyuma hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bareberaho uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'icyatsi, ibyuma uruzitiro rugaragara amabara, ubururu, indabyo, icyatsi, isima, ikirere.

Umuforomokazi wambaye impuzankano y'iroza n'amataratara, agapfukamunwa arimo asuzuma ababyeyi babiri bamuri imbere bicaye ku ntebe z'ibiti bose.

Inyubako inyuma y'abantu y'ibara ry'umukara yubakishije amakoro, imbere ibiti by'ibyatsi, abantu bahagaze ku ishusho igaragaza amahame y'ibyo bitaro bigenderaho byanditseho Butaro.

Utubati tugaragara inyuma y'ibirahure, imiryango igera muri itanu itandukanye, aho tugegaragara ahagenda hashyirwa ibimenyetso by'imizamini byafashwe kwa muganga.

Inyubako y'ubuvuzi igaragara irimo utubati dutandukanye twinshi, harimo aho gushyira imyanda, ifite ibara ry'umukara, intebe zifite amapine nyinshi n'ubwo kuryamaho.

Inyubako isakajwe n'amabati, munsi harimo ibyuma harimo akandi kumba gafite amadirishya, inzugi ibara umukara ibirahure, amatara, ibikombe.

Inyubako igaragara mu ibara ry'umweru isakaje amabati y'ubururu, imbere hari abantu bahagaze n'abicaye mu tuyira dutandukanye, amabuye yubakishije umukingo, igiti kinini gifite amashami.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bikoresha ikoranabuhanga n'ibifite amapine, hari ibimenyetso birangira abantu harimo abagenda n'abaza, hari mudasobwa, hari amadirishya, hari ibikoresho bindi byifashishwa.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo imashini zitandukanye, harimo ikonjesha iri imbere y'umuntu wambaye imyenda y'umweru kifashishwa nayo utubati, intebe, mudasobwa.

Umuforomokazi ufite imisatsi miremire wambaye agapfukamunwa, arimo arakorera isuzuma umunyeshuri wambaye impuzankano yo mu ibara ry'umweru, inyuma hari akabati kabugenewe gateretsemo imiti itandukanye n'ibikoresho.

Icyumba kirimo intebe ifite ibara ry'umuhondo, utubati dufite amapine, intebe zifite amapine, ibikoresho byifashishwa kwa muganga, akabati kanini, ibara ry'umweru rigaragara inyuma yabyo.

Inyubako ifite ibirahure, amadirishya akoze mu byuma, intebe, amatara, utubati, isima, ibyatsi, amatiyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga, mudasobwa amatara, amashuka amanitse, igitanda kiriho ibyuma munsi n'ibara ry'ubururu riri hejuru.

Inyubako igeretse rimwe isakajwe amabati y'umutuku ifitemo inzira ku ruhande yifashishwa n'abafite ubumuga bwo kutagenda, imbere imodoka iparitse, ikinyabiziga cya moto, ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ibitanda byo kuryamaho abarwayi bifashisha, ibyubatse ku gikuta, ibikoresha umuriro w'amashanyarazi...

Inyubako igaragara irimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa ikoranabuhanga, ndetse abagabo babiri bambaye impuzankano y'umweru, bambaye udupfukamunwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo icyuma gikoresha ikoranabuhanga, amatara, mudasobwa bifashisha, utubati tubiri ibyuma aho gushyira imyanda.

Imbere yanjye hari inyubako igereretse kabiri, hahagaze abantu batatu, hari amabara atandukanye icyatsi, umuhondo, umweru n'amagambo yandikishijwe amwe muri ayo mabara, hakaba haparitse imodoka zitandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi irimo igitanda, indobo, amatara, urugi, amapine, mudasobwa, ibipapuro.

Inyubakuru ndende ifite umuryango uriho ibyuma, ibirahuri bigaragara mu ishuho ry'ubururu abantu, babiri barimo baraka serivisi, hejuru handitseho amagambo y'icyongereza n'ikinyarwanda Kanombe.

Icyumba cyo kwa muganga gifashirizwamo abarwayi b'abana ku gikuta hashushanyijeho amabara menshi yo kubarangaza, inzovu, ingwe, ibinyugunyugu, ibyatsi...

Igikoresho cyifashishwa muri siporo, gitwara abantu bagizweho ingaruka no gukora siporo, ni igitanda ngendanwa cyifashishwa no mu mbangukiragutabara ugiye gutabara abaturage.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'umuryango utabara imbabare bateruye umuntu wagizeho ikibazo cy'amaguru bamujyanye kumurebera uko ahagaze, inyuma ye abandi bantu bahagaze munsi y'ibiti...

Ibikapu bibiri, kimwe gifunze, ikindi gifunguye, kirimo ibikoresho bitandukanye, ibikora isuku mu matwi, imikasi, ibipfuko biteretse ku ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye ubusa, ugaragara ibituza, ku kaboko ke hariho ibimenyetso bibiri bisobekeranye, igifite ibara rya roza, ndetse n'igifite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara afite imisatsi yambaye amaherena afite icupa ari kunywa amazi yambaye ku kaboko imashini imugaragaza uko ari kugenda akora siporo.

Abantu babiri bambaye impuzankano y'umutuku, barimo baravura umukinnyi wagize ikibazo. Iruhande rwabo hahagaze abagabo bane, harimo abakinnyi bambaye ampuzankano y'umuhondo, abambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'amakabutura y'ubururu.

Icupa ripfundikiye, umufuniko w'ubururu, amazi azamuka, yamenetse, ishusho igaragara nini inyuma mu rindi bara risa n'umufuniko.

Umugore wicaye imbere ya mudasobwa zifite ibara ry'umukara, arimo agenda akoresha ibikoresho by'itumanaho ndetse hari n'andi mafoto agaragaza ibikoresho bitandukanye by'ikoreshwa mu ikoranabuhanga ry'itumanaho.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, inyuma ikirere gisa ubururu, afite mu kiganza icupa ry'amazi, ayasuka yamumenetseho mu mataratara undi ari gushashagirana.

Igitanda kigaragaza ibara ry'ubururu, intebe na yo yo mu iryo bara, akifashishwa mu kuzana umuyaga, ibikoresho: utubati, mudasobwa, idirishya ririho indabyo z'icyatsi, urugi.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ufite ubwanwa, yambaye isaha ku kaboko y'umukara agacupa k'amazi mu ntoki yasize ku muwa arimo anywa ikirimo.

Umuntu wicaye ahantu hari ibara ry'ivu, yambaye umupira w'umutuku, afite igipfuko ku kaguru, arimo areba ko nta kibazo gifite, afite umubiri wirabura kandi hari ibara ry'umweru ahantu ari.

Imashini yi iri mu cyumba cyo kwa muganga bifashisha ikoresha umuriro n'ikoranabuhanga umuntu anyuramo agiye kureba ikibazo kiri mu mubiri we mo imbere uko hatandukanye hose.

Amashusho cumi n'abiri atandukanye agenda afite ubusobanuro bunyuranye, harimo igaragaza umuntu urwaye umutwe urimo kuruka, uwumva mu amatwi yishyizemo umuriro, uyicaye ku ntebe uri kwibaza byinshi.

Umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu afashishije akuma k'ikoranabuhanga areba ikibazo umwana afite cy'amaso amumurikaho areba aho atareba neza.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ufite imisatsi miremire wambaye agapira k'ivu n'ibara rya oranje, inyuma ya hateretse indobo eshatu zirimo indabo zitandukanye z'icyatsi, n'umutuku, ndetse ndende n'ingufi, zose ari gukorera ku kantu bakoresha.

Ibimenyetso cumi na kimwe bigaragaza abantu ko bari gukora siporo bitandukanye zifasha umubiri kugororoka harimo kwirukanka ukoresheje ikoranabuhanga, gufata ku maguru, ku isutama.

Abagabo babiri barimo barakora siporo. Umwe yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ikabutura y'umukara, n'umupira w'umutuku, yambaye inkweto z'umukara, arimo aragaragara agenda asimbuka, asimbuka.

Umuntu ahagaze arimo asobanura ibikoresho bifashisha muri siporo by'imiti, ibyuma bitandukanye, birimo ibifite amapine, birimo ibyometse ku nkuta, harimo amabara y'umweru icyatsi n'ubururu.

Igare ryifashishwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda neza, aho yicaramo amaguru akayashyira imbere, rifite amapine amufasha mu kurinyonga arimo agenda akora urugendo rwe.

Ibiganza bine bigaragaza siporo zo mu kiganza, handitse imibare itandukanye, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi na cumi na rimwe, birimo amabara atukura.

Umugabo wicaye mu muhanda, wambaye akantu ku kaboko gafite ibara ry'icyatsi, yambaye isengeri y'umukara, inyuma ye hari umuntu utagaragara neza, afite icupa ry'amazi, arimo ayanywa.

Umuntu wifasheku kagaguru wambaye imyenda y'imikara afite isaha ku kaboko, arimo arareba ikibazo afite mu kaguru, inyuma ye hari ibara ry'umweru n'ibara ry'icyatsi bigaragara ko avuye muri siporo.

Urubuga ruhuriraho abakora umukino wo kwirukanka ifatwa nka siporo yo kwiruka ugorora umubiri, hari umuntu ku ruhande ugaragara arimo yirukanka, hari akantu kamumezeho k'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuntu urimo apfuka akaguru yikoresheje umukasi, ibipfuko, urukweto mu kaguru kamwe, agatanda ibara ry'ubururu.

Ikiganza kiriho impeta y'umuhondo, gifashe ku kaboko aho ahinira, arimo akora siporo yifashishije akantu k'ubururu, yagiye afatishijeho ku mubiri.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo amabwiriza yo gukora siporo aho bigenda bifasha, haromo akabati karimo umwe muri ibyo, igikapu, amarinete, amataratara, arangurura amajwi.

Umuntu uhagaze, wambaye isaha ku kaboko ibara ry'umukara, umupira ibara ry'ivu, ikirere cyu'mweru, amazu atagaragara neza, afatiye amaboko inyuma ku mutwe.

Ni yo yifashishwa n'umuntu umaze gukora siporo, harimo inyanya, avoka, ibitunguru. Hari inkweto, hari udukoresho dukoreshwa arimo akora siporo, duteretse ku meza.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abantu batandukanye harimo minisitiri ushinzwe ubuzima mu Rwanda areba umuntu uryamye ku gitanda ufite ibyuma mu kaguru arimo aravurwa.

Ikirahure cyo mu ibara ry'umweru. Barimo barasukamo amazi aturuka mu gacupa, nyuma yaho hari ishusho y'ubururu, igaragaza aho abantu bakora siporo, bari kunywa ayo mazi.

Umusore wambaye isaha gaboko ikabutura akaguru karambuye n'akaboko karambuye gakora kurukweto arimokora siporo inyuma ibirahure bikoze idirishya.

Umuntu ufite itaburiya y'umweru ufite ibikoresho abifashisha bapima ikibazo cy'umutima uko utera, afite agakoresho mu ntoki kagaragaza uko icyo gikoresho gikora, yambaye ishati y'umweru.

Umuntu wicaye ku gitanda gifite ibara ry'umukara, yambaye urukweto, isogisi, uri kumupfuka ukoresheje igipfuko w'umugabo, ishusho inyuma iri mu cyuma mu ibara ry'ikirahure.

Igikapu kinini cy'umutuku gifunguye, gifite imyanya itandukanye: imbere, iburyo, ibumoso, kirimo amakarito menshi atandukanye, imikasi, ubwoya.

Umugabo wambaye umupira w'umukara uciyemo uturongo tw'umweru arimo arakora siporo yifashishije ibikoresho arimo aterura mu ntoki, hirya hari intebe iri mu ibara ry'ubururu, icupa ry'amazi ndetse n'umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu.

Siporo ngororamubiri zikorwa n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, yamanitse akaguru kamwe ku biti bikoze uruzitiro rw'aho ari gukorera akandi hasi, arimo akora siporo ngororamubiri.

Abagore bane bicaye n'abagabo babiri, imbere yabo uwambaye impuzankano y'umweru arimo abasobanurira icyuma cyo kwa muganga, hirya hari amarido, idirishya y'ibyuma bimanuye, ubururu, igitanda.

Umuntu ufite igikoresho gihanagura amazi ku mubiri gisa umweru, yambaye umupira w'ibara ry'icyatsi, ubururu, afite icupa ry'amazi arimo anywa amazi, avuye muri siporo kugorora umubiri.

Umugabo w'ibigango ufite ubwanwa, usobekeranye amaboko, arimo akora siporo, yambaye isengeri iri mu ibara ry'ivu. Inyuma ibara rigaragara ry'umukara.

Inkweto iri mu ibara ry'umukara ndende, yanditseho ijambo bato, ishusho ry'umweru, ibitaka, amabuye, uduti, imishumi.

Ikirenge gishinze amano y'imbere, arimo gukora siporo, bagaragaza agorora imitsi, ibimenyetso bibiri bigaragara mu kabumbampori, icyo mu ibara ry'ubururu gihagaze, igitambitse mu ibara ry'iroza.

Abagabo babiri, uwirabura, umuzungu, barimo gukora siporo aryamye, undi amugorora, ibyuma akoreraho siporo, agatanda, inyuma amabara arimo umutuku, icyatsi, ubururu.

Umuntu wambaye isaha ku kaboko, inkweto z'icyatsi, akora siporo, aho yunamye arimo akora ku mavi, agorora umubiri, arebamo uko bimeze, yirukanka ku butaka.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, afashe amaboko ku kaguru k'uryamye ku gatanda, yambaye inkweto ya siporo irimo ibara ry'icyatsi rigaragara ku mweru.

Icyuma cyo kwa muganga, kigaragaza aho banyuzamo umuntu bareba ikibazo afite, inyuma hari akabati tubiri dufunguye, turimo ibikoresho nk'imyenda, ibitambaro n'ibindi byo kwa muganga.

Ibyatsi, umugwegwe bigaragara, ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi, ibiti, ibitaka, byose harimo izuba.

Akabati karimo ibyumba bitatu, iburyo, ibumoso, gateretsemo imiti itandukanye y'ibinyabutabire by'ibimera, ipfundikiye neza n'imifuniko y'ubururu.

Umuravumba utaye ku biti bitatu biteyemwo umwe mu murima hiya n ibindi bihingwa by'ubu bwoko byifashishwa mu buvuziwiteye.

Mu twibo dutandukanye ibyatsi by'ibimera biteretse ku ruhande, isekuru yo gusekuriramo imiti tugiye turimo imiti itandukanye duteretse ku musambi.

Igice cy'ipapayi kigaragara mu ibara ry'umuhondo, ikase, aho imbere harimo imbuto mu'ibara ry'ubururu, inyuma yayo ifite ibara ry'icyatsi itarakatwa ikiri yose, iri mu ibara inyuma yayo hari ibara ry'umu...

Amacupa abiri, irirerire n'irigufi, irirerire rigaragaraho ibara ry'icyatsi ry'igikakarubamba, iruhande hari amabwiriza avuga uko uwo muti ukoreshwa n'ibiwugize byose.

Ikimera cy'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, uturabyo twacyo tw'ibara ry'umuhondo twatungutse turimo dutarakaho, hirya ibiti bitandukanye na byo...

Ibihingwa ibara ry'icyatsi y'ikimera cyitwa umuravumba, hirya hari abantu, inyubako isakaye aho biteretse ibyatsi hakurya yabyo ku butaka.

Umukeka uteretseho udukoresho dutandukanye harimo utwibo, akabindi tugiye duteretseho imiti itandukanye gakondo ari umuntu urimo usekura iyo miti abashe kuyikuramo gakondo.

Igikoresho gikoze mu mbahoho gifite ibyumba bitandukanyeye biteretsemo amacupa funiko y'icyatsi icupa rinini rya plasitiki arimo imiti iva ku bimera ibirahure by'ibikombe.

Imiti itandukanye iri mu dukarito ibicupa, inyuma hariho imbuto yitwa inanasi, imineke ku ruhande rwo hirya, indabyo zigaragara hirya.

Ibihingwa bitandukanye birimo, ibiti, ibyatsi biri mu ishyamba, byifashishwa mu kuvura bikorwamo imiti itandukanye, harimo n'ibiva mu butaka mo hasi ndetse n'ibiva hejuru amababi yabyo.

Amacupa atandatu arimo imiti ituruka ku bimera; y'amazi, iy'ifu, agakarito kari ku ruhande, ikayi byose biteretse ku meza bipfundikiye neza.

Imiti iri mu ducupa dutatu iteretse bitandukanye igenda isumbana uko ihindura amabara ituruka ku bimera ipfundikiye imifuniko.

Imiti itandukanye iri mu mabara y'umweru, icyatsi, ubururu, umukara, umutuku, mu bikarito, mu macupa, iri ku ibara ry'umweru.

Indobo zirindwi zitandukanye zifite amabara atandukanye, harimo asa ikigina, umukara, umweru icyatsi, harimo imiti iteyemo itandukanye, irimo amabara y'umuhondo ndetse n'amagambo yanditseho.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'icyatsi umweru handikishijeho amagambo y'umukara amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hariho igikakarubamba, umufuniko y'umweru icuritse.

Imuti gakondo igaragaza inzuki, ubuki buri mu icupa iriho igipapuro gifite ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo ari mururimi rw'icyongereza agaragaza ibiro birimo.

Ikimera kikizamuka, kikiri gito gifite amashami agaragara mu ibara ry'icyatsi, giteye mu murima uriho ibitaka, ibyatsi byumye nk'ibigaragara.

Ikiganza gifashe ku muti gakondo wifashishwa mu buvuzi, witwa umwenya, uteye mu murima, hari n'ibibabi byumye hari n'ishusho igaragara y'iryo bara.

Utwibo dutandukanye turimo imiti itandukanye turimo mu ibara ry'umukara, aho tumwe duteretse hasi utundi duteretse ku mukeka, impande yabo hari umwuko n'uduti dutatu tugaragaza gakondo.

Umuganga ufite ikarito mu kaboko k'iburyo, ibumoso harimo ibinini bigaragara bifunguye, yambaye impuzankano y'umweru, yicaye ku ntebe ateretse ku meza.

Amafoto makumyabiri n'atanu agenda ariho ibimera bitandukanye, buri cyose gifite ubusobanuro bugendanye n'imiti ivura indwara gakondo.

Uducupa twinshi tw'ibara ry'umweru dutandukanye, ibara ry'icyatsi hashushanyijeho igikakarubamba, utujerekani tubiri akajya gusa umuhondo werurutse n'agasa umuhondo wijimye n'umufuniko ujya kuba umukara.

Umuforomo wambaye impuzankano y'umweru, afite ikarito mu ntoki pfundura ireba imiti irimo ituruka ku bimera, ipfunyitse mu ducupa y'amazi.

Indimu ifite ibara ry'icyatsi, ibitunguru, icupa ryo mu kirahure ririmo amavuta yifashishwa nk'umuti gakondo uvura mu buzima, yanditse amagambo baho neza.

Amacupa atandukanyebara umutuku, umuhondo, iroza oranje. Arimo ibimera bitandukanye bifite ishusho y'icyatsi y'igikakarubamba ishushanyijeho.

Ibimera biri mu bwoko butandatu butandukanye, hirya agafureshi kagaragaza amagambo agenda asobanura icyo buri kamwe kagiye kavuze.

Agacupa gapfundikishije umufuniko w'umweru kagaragaraho amagambo asobanuye umuti uturuka ku bimera nk'inzuki, hirya hari ishusho iri nmu ibara ry'icyatsi uvuga igikakarubamba

Akabati gafite ibyumba bibiri gafunguye karimo imiti itandukanye gakondo, iri mu ducupa dutandukanye, harimo iy'ibara ry'umukara, n'ibara ry'icyatsi, ibara ry'umweru, ku ruhande hari umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru n'inyuma ndetse.

Amacupa atondetse ku murongo umwe ari mu mabara atandukanye, ayirabura, umutuku icyatsi ndetse afite ingano zitandukanye yaba mu mubyimba ndetse n'uburebure, amwe afite amabara y'icyatsi ku mifuniko yayo.

Icyatsi kigaragara gifite amababi atandukanye kidafite amashami, giteye mu kabohero k'ikirere karimo itaka mo imbere byifashishwa mu buvuzi akaba ari umuti gakondo.

Amacupa ane, hari amacupa abiri y'umuhondo y'imiti gakondo ishushanyijeho igikakarubamba ndetse hakaba hari n'akandi gakarita ku ruhande kari mu ibara ry'umweru na move, na ko karimo umuti w'ibimera uturuka ku bimera.

Udusorori dutandukanye duteretsemo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi, umuntu arimo agenda asobanura agaragaza ibiganza bye, harimo imwe muri yo.

Ibimera by'imboga rwatsi byongera intungamubiri mu mubiri harimo amashu, ibitunguru, epinari byose bihingwa mu butaka.

Akabuni kajyamo ibisukika k'ibara ry'ubururu kariho imiti, imbere hari nimero wahamagaraho uyikeneye agasaraba, kabiri, gatanu, zeru, karindwi, umunani, icyenda, icyenda, zeru, kane, icyenda, icyenda...

Ibiti birebire bifite amashami, ibigufi, indabyo bifite amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, umutuku, umuhondo bigaragaza imiti yifashishwa mu buvuzi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kugenzura imiti gakondo Rwanda, hariho ishaka, ibyatsi, amagambo yanditse atandukanye, ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Amakarito atanu ateretse hasi yanditseho amagambo atandukanye n'indi iteretse hejuru y'imwe, inanasi, indabyo, icyatsi, imineke, umuhondo.

Icupa riri mu ibara ry'umweru n'umutuku, ku ruhande hari amagambo yanditse ko uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate, igisubizo ku muryango.